Umujyanama w'ubuzima arimo gufasha ndetse yigisha umugore utwite ndetse n'umugabo we, uburyo bafata ndetse bategura indyo yuzuye bigafasha umubyeyi utwite kugira ubuzima buzira umuze ndetse n'umwana atwite.

Amazi ni ubuzima. Amazi afasha buri kintu cyose umuntu akora mu buzima bwa buri munsi, umuturage yishimiye umugezi babagejejeho wa hafi, uzajya ubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuganga cyangwa umuforomo, urimo gutera umurwayi rushinge, amupima ndetse anamuvura indwara zigiyeye zitandukanye, bikamufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'ababyeyi bonsa bafite impinja, bari basuwe n'abayobozi barabaganiriza, nyuma yo gufata ibiganiro, bahise bafata ifoto y'urwibutso.

Abaforomo, abaforomokazi ndetse n'abaganga n'abandi bafatanyabikorwa barimo kwishimira ndetse banashima abashyitsi baje babagana kuri santeredosante ya Mayange.

Abaganga, abaforomokazi ndetse n'abaganga, bakoze ihuriro bishimira ndetse banezerwa n'ibyiza baje kugeraho, ndetse bishimira akazi keza bakora.

Amazi ni ubuzima, amazi ni inkingi ya mwamba, yubakiyeho ubuzima bwacu bwa buri munsi tugenda tunyuramo, amazi aratekeshwa, akoreshwa amasuku ndetse anafasha no mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze.

Ni ikigo cyagiye gusura ababyeyi ndetse n'abana babo, abana bari konka ndetse n'ababyeyi bari konsa babaha ifunguro ryuzuye, ribatera imbaraga ribarinda n'indwara.

Umuforomokazi arimo kwita ku muturage amusuzuma areba indwara arwaye zigiye zitandukanye, bityo bimufashe kubona uburyo bwo kumwitaho ndetse no ku muvura.

Abakuru b'ibitaro ndetse n'abaterankunga babo ba huye barimo baraganira mu cyumba cy'inama baganira ku ngingo ziri zitandukanye zerekeye n'ubuzima ndetse n'ibyo bakora bike bitandukanye.

Abana bambaye imipira yanditseho UNICEF. UNICEF ku bantu batayizi, ni ikigo gishinzwe abana ndetse n'ababyeyi babo, babafasha mu mibereho yabo myiza ya buri munsi.

Kwita ku bana bakiri batoya bibafasha ndetse bikabarinda indwara zigiye zitandukanye. Barimo kumukingira, bimurinda kurwara indwara abana bagenda barwara ari batoya.

Ni ikigo cy'ubuzima ibitaro cyangwa santire de sante abaforomo ndetse n'abaforomokazi n'abaganga barimo gufata ifoto n'abashyitsi babasuye.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga, aho abarwayi bagana ibitaro bicara bategereje yuko babafasha ibibazo bigiye bitandukanye baba bafite ku buzima bwabo.

Umuganga cyangwa umuforomokazi, arimo kuganiriza ndetse yigisha ababyeyi barimo konsa, uburyo bwo konsa neza umwana, bagira isuku bityo bikabafasha kutadindiza abana mu mikurire yabo.

Icyapa kigaragaza cyangwa ikirantego, kigaragaza kwita ku buzima bwo mu mutwe bw'abana ndetse n'abageze mu bwangavu, cyatewe inkunga na RBC ndetse na minisiteri y'ubuzima, n'ibindi bigo bigiye bitandukanye.

Ni abaganga bavura, bakita ku barwayi barwaye amenyo, barimo baramukura iryinyo cyangwa bakaba barimo baramuvura n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zo mu kanwa.

Kwita ku buzima ni byiza cyane cyane iyo wita ku isuku usukura ukora neza amenyo yawe, bityo bikakurinda ndetse bikagukiza indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'imyanda yo mu kanwa.

Ku bitaro bishinzwe kwita ndetse no kuvura indwara zijyanye no mu kanwa harimo amenyo abagiye kumuhobera hiryinyo bareba hiryo byaba bisa kugira ngo babashe kuri homa.

Ubu ni ubuvuzi bakoresha mu bitaro bishinzwe kuvura amenyo, amenyo atari ku murongo, amenyo yasohotse ari hanze y'umunwa, amenyo maremare, bashyiramo utwuma, tukagenda tuyasubiza inyuma, tuyashyira no ku murongo.

Abasheshe akanguhe bagomba kwitabwaho bakanitanaho bityo bikabafasha kumenyana ndetse no gufashanya mu buzima busanzwe binbarinda kurwara indwara ziri zitandukanye zo mu myaka yo gushasha akanguhe.

Umuforomokazi arimo gufasha umusaza usheshe akanguhe amufasha kugorora amaboko ndetse n'amagufa n'imitsi, bityo bikamufasha gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Ikigo cyagiye kwita ku barwayi barwaye indwara zigiye zitandukanye ariko cyane cyane barimo kwita ku basaza ndetse n'abakecuru basheshe akanguhe babavura ndetse banabapima indwara zigiye zitandukanye.

Siporo ni ubuzima, siporo ni inkingi ya mwamba ku buzima bwa buri munsi kuri buri wese, ari abato, ari abakuru, ariko cyane cyane ku basheshe akanguhe, ibafasha kurinda umubiri wabo kurwaragurika bitewe n'ubusaza.

Umukecuru usheshe akanguhe, arimo gutanga ijambo ku bo bafatanyije urugendo rwo kwitabwaho ndetse n'abafasha ari baganga n'abaforomo n'abashyitsi baje kubasura bo bitabwaho.

Ari kwita ku murwayi, ni umuforomokazi uri kwita ku murwayi w'umusaza usheshe akanguhe, uri mu myaka yo kwitabwaho n'abaganga, bitewe n'imyaka abagezemo n'uburwayi bugenda bubazaho.

Umuforomokazi arimo kwita ku mubyeyi usheshe akanguhe amufasha ndetse anamurinda indwara zigiye zitandukanye ziterwa no gusheshakanguhe cyane cyane izo kwiheba.

Ifunguro ryuzuye ririmo imboga, imbuto, ibitera imbaraga bifasha ubuzima kugenda neza cyanecyane cyane ku bantu basheshe akanguhe bagomba kurya indyo yuzuye kugira ngo bite ku buzima bwabo.

Ikigo gishinzwe kuvura ndetse kikita ku ibagwa ndetse no kuvura amaso y'ababagana cyitwa The Lancet Global Health.

Nyakubahwa Jeannette KAGAME, urimo gutanga ijambo cyangwa ikiganiro kerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'uburyo bwangiza sosiyete ndetse n'imiryangorugari muri rusange.

Aha ni muri procras farumasi itanga ndetse ikanafasha abayigana gufata imiti byihuse kandi bakanabapima indwara zi zitandukanye.

Ni ibitanda byo kwa muganga abarwayi baryamamo mu gihe bagitegereje yuko babavura cyangwa mu gihe babitayeho, bakaba atari abarahita basezererwa ako kanya, bakaba ariho baba baruhukiye mu gihe bagitegereje gukira cyangwa koroherwa, kugira ngo ibitaro bibone uko babasezerera.

Izi ni inyubako zo kwa muganga zerekana aho abarwayi baruhukira mu gihe barembye babaha ibitaro ko ari baba baruhukiye mu gihe bagitegereje ko babafasha ndetse no gukira ndetse harimo n'ubusitani butanga umwuka mwiza ku barwayi ndetse n'abakora.

Ni kimwe mu byumba byo kwa muganga, bigenewe, bikorewe, byateganyirijwe kuvura ndetse no kwita kubana batoya babarinda banabavura indwara zigiye zitandukanye.

Ni ibyumba byo kwa muganga bifasha ndetse bikakira abarwayi bagannye ibitaro, babafasha ndetse banabaha ibitanda baryamaho kugira ngo bakomeze babiteho paka bakize cyangwa borohewe.

Izindi nyubako zo kwa muganga zirimo ibitada na supanete n'amashuka bifasha abagannye ibitaro kuruhukiramo mu gihe batari bakira, bakiri kwitabwaho n'abaganga, ibyo bikabafasha kuruhuka no kwitabwaho neza n'abaganga.

Y'ibitaro yakira ndetse igafasha abarwayi bagiya batandukanye babavura, babapima, ndetse bakabaha n'imiti bitewe n'indwara zitandukanye barwaye.

Ni kimwe mu byumba bigize ibitaro

inyubako yo kwa muganga igaragaza ibyumba bigiye bitandukanye, hagenda hakorerwamo ibintu bitandukanye bitewe na serivisi n'icyo umurwayi agiye akeneye.

Umuforomokazi urimo kwita ku ruhinja ruvutse, arupima niba hari ikibazo rwagize cyangwa rufite, nyuma yo kuba rwamajije kwibarukwa.

Ni ibitaro biherereye mu karere ka Huye, mu ntara y'Amajyepfo, bivura indwara zose zigiye zitandukanye, havuyemo indwara zo mu mutwe kandi bafasha abanyeshuri bimenyereza umwuga w'ubuganga biga muri kaminuza kuhimenyereza.

Ni icyumba kimwe mu byumba byo kwa muganga hatangirwamo hakanakirwamo inama ndetse hakabarizwamo n'ibibazo bigiye bitandukanye bitewe n'ingingo baba bari kuganiraho.

Kimwe mu byumba byo kwa muganga birimo ibitanda ndetse n'imashini zigiye zitandukanye, zifasha umurwayi ugannye ibitaro kubasha ndetse kubona uko yitabwaho byihuse kandi byiza.

Ni inyubako zo kwa muganga zigiye zitandukanye zitangirwamo serivisi zitandukanye, harimo: ubuvuzi aho bavurira, aho basuzumira, aho bakirira ndetse n'aho barara, buri hantu hose hagiye hafite icyo hamaze n'icyo hakora.

Ni imashini ikoreshwa kwa muganga ifasha kureba umubiri uko urimo gukora ari umutwe mu mitsi mu bice bitandukanye by'umubiri, bakareba aho arwaye ndetse n'ahameze neza bigafasha umuganga ndetse n'umurwayi kubona uko avura n'uko avurwa.

Inyubako yo kwa muganga, cyangwa ibitaro bikiri kubakwa, ariko abayobozi ndetse n'ubifite mu nshingano wese, yaje kubasura barebe aho ibikorwa byo kubaka ibitaro aho bigeze.

Kimwe mu byumba byo kwa muganga, byubakiwe kwita ndetse no kuvura abantu byihutirwa ,indembe zose ni ho zitaribwaho muri iki cyumba cyateganyijwe.

Ni kimwe mu byumba byo kwa muganga cyateganyijwe mu gusuzumiramo ndetse no kwita ku barwayi bagiye batandukanye bakabasuzuma bakamenya uburyo bagiye kubitaho ndetse n'indwara barwaye.

Bino ni ibikoresho bakoresha kwa muganga, bifasha abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane by'imitsi ndetse n'amagufa, bakoresha bari gukangura imitsi ndetse n'amagufa akongera agakora neza.

Siporo ni ubuzima, siporo ifasha mu kurinda ndetse no gukumira uburwayi bwa hato na hato, bityo umuntu ukora siporo ntago akunda kurwaragurika.

Umuntu barimo baramukanda imitsi yavunitse ukuguru barimo kukugorora bagorora imitsi ndetse n'amagufa kugira ngo ukuguru kubabashe kugenda neza kandi gukire vuba.

Ni akagare gafasha umurwayi uri kwa muganga, kakamufasha kugendaho mu gihe yavunitse amagufa, cyangwa imitsi ye idakora neza y'amaguru, bityo bikamufasha kukagenderamo bimufasha imitsi yiwe igakomera.

Gukora siporo igaragaza mukwihina bityo bimufasha kugorora imitsi ndetse n'amagufa n'imbavu n'utundi turemangingo tw'umubiri umubiri na wo ugakomeza ugakora neza.

Arimo gufashwa n'abaganga, bamugorora ingingo, amagufa ndetse n'imitsi, bityo bimufasha gukangura, umubiri ugakomeza agakora neza.

Akaguru ka avunitse cyangwa katsikiye bitewe na siporo yari ari gukora ari mu bitaro barimo kubyitaho bagapfuka kugira ngo byirinde ko hari indwara z'indi yarwaramo bitewe n'uko batigeze bahitaho.

Siporo ngororamubiri n'ubuzima, ndetse ifasha mu kurinda indwara zigiye zitandukanye. Barimo baramugorora amagufa ndetse n'imitsi, kugira ngo ikanguke ikore neza. Bityo bagire ubuzima bwiza.

Siporo ni ubuzima, siporo ifasha umuntu ukora siporo kugira ubuzima bwiza ntakunde kurwaragurika akagira ubuzima buzira umuze bitewe no gukora siporo.

Mu buzima siporo ifasha ndetse ikanarinda kurwaragurika hato na hato, bigafasha umubiri gukora neza ndetse ukanarinda n'indwara zigiye zitandukanye.

Imbuto, imboga, inyama ndetse n'amazi n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bya siporo, bifasha umuntu kubikoresha cyangwa bifata kugira ubuzima buzira umuze butagira indwara.

Ari gukora siporo imugorora ingingo, iragorora amagufa, ikagorora imitsi, ikagorora ndetse n'umubiri we wose. Ibyo bikamufasha kugira ubuzima bwiza butagira indwara.

Siporo ni ubuzima, siporo idufasha mu kurinda indwara zi zitandukanye, siporo ifasha gukiza iyo mitsi ndetse no gukomeza amagufwa y'umubiri cyane cyane ay'amagauru.

Ni ibyatsi bakoramo imiti gakondo ifasha ndetse ikavura umurwayi urwaye indwara zigiye zitandukanye, bityo bikamufasha kwirinda ndetse no gukira vuba.

Ayo ni amavuta akoresha ku munwa. Arinda ndetse anabungabunga umunwa gucikamo, gutemagurika ndetse no gucika ku munwa. Akozwe mu bimera bifasha umunwa kudacika.

Imiti cyangwa ibyatsi bigiye bitandukanye bya Kinyarwanda bivura ndetse rikanakiza indwara zigiye zitandukanye, bigafasha ubifashe kugira ubuzima buzira umuze butarimo indwara.

Ni ibyatsi gakondo bivura ndetse bikanafasha umurwayi ubinyweye cyangwa ubikoresheje mu gukira indwara ziye zitandukanye arwaye.

Ubuvuzi gakondo bukorwa ndetse bukanafasha kuvura indwara zigiye zitandukanye bakoresheje imiti gakondo ari yo ibyatsi bavura ndetse bita ku barwayi bagiye barwaye indwara zigiye zitandukanye.

Ni icyatsi gakondo cyitwa inyabarasanye, iyo ukomeretse ukagishyira ukakivuguta ukagishyira ku gisebe bigufasha gukira vuba ndetse byihuse.

Ni imiti, imiti gakondo ivura ndetse ikanakiza indwara zigiye zitandukanye. Muri iyo miti harimo tangawizi na tungurusumu n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni ahantu ku muhanda hari umuntu urimo gucuruza imiti ikozwe mu bimera, ari byo twita imiti ya kinyarwanda ivura ndetse ikanakiza indwara zigiye zitandukanye.

Bikozwe mu byatsi by'ibimera harimo umuravumba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifasha ndetse bikavura n'indwara zigiye zitandukanye.

Ni ikigo gitanga serivisi yo kuvura ndetse no kwita ku barwayi bagiye babagana ariko hakibandwa mu kubitaho bakoresheje imiti gakondo.

Iyi miti igiye itandukanye ikozwe mu byatsi by'ibimera harimo igikakarubamba ndetse n'indi miti cyangwa ibyatsi bavangamo bigiye bivura indwara zigiye zitandukanye.

Icyatsi gakondo kivura ndetse kikanakiza indwara zitandukanye harimo inkorora ndetse na anjine, icyo cyatsi bacyita kapisine kiravura kandi byihuse.

Ni ibyatsi byitwa umuravumba, umuravumba ukomo imiti myinshi igiye itandukanye, iravura kandi ikanakiza indwara zitandukanye harimo inkorora ndetse n'izindi.

Harimo imiti ikoreshwa cyangwa yakoreshwaga mu buvuzi bwa gakondo, harimo aho bayisekuriraga, aho bayicaniraga bityo bikavura umuntu bitewe n'indwara zigiye zitandukanye arwaye.